Igihe cyose uteze moto, wibuke kwambara ingofero irinda umutwe kandi ifite ikirahure, urebe neza ko ifite isuku, kandi nusanga idasukuye ubikangurire nyir'ikinyabiziga kubyitaho.

Ni byiza ko utaka amabara atandukanye ukoresheje amatara n'indi mitako kugira ngo ugire ubudasa ku bicuruzwa ucuruza n'aho ukorera bitandukane n'ahandi kandi bibe bigaragara neza bifite umucyo.

Wowe n'incuti zawe ni byiza ko mwicara ahantu mukaganira, ariko mukaba mufite n'ikintu cyo kunywa, ari we imitobe cyangwa ikinyobwa gisembuye, cyaba icya mitsingi gikorwa n'uruganda rwa burarirwa cyangwa na fata.

Nujya gutaka ahantu ukorera ntuzibagirwe imitako yakorewe inaha iwacu mu Rwanda. Harimo nk'inkoko urabona ko zigaragara neza ahantu ziteguye n'utundi tugabanya urumuri ku matara ndetse uzibuke no gushyiraho imigongo.

Iyo ucuruza ibinyobwa byo kunywa by'inganda zitandukanye zikorera hano mu Rwanda harimo urwa Burarirwa ndetse n'uwa Sikoro. Baguha ibikoresho birimo ameza yo gutegura kugira ngo ubone aho uterekera abakiliya ibyo kunywa, byanditseho ibirango bya mitsingi.

Igihe ucuruza ibinyobwa, by'inganda zitandukanye ibuka kwaka ibyapa biranga ibyo bicuruzwa, kugirango ubimanike aho ukorera, hanyuma abakiriya bamenye neza y'uko ibyo binyobwa bihari

Igihe ucuruza ibicuruzwa biri mu macupa ashobora kwangirika mu buryo bworoshye, bishyire ahantu heza kandi hatekanye ubipange neza kugira ngo hatazagira ikibikoma gatoya bigahita byose bimeneka ugahura n'igihombo.

Aho wateguye ucururiza ibinyobwa shyiramo n'izindi serivise kandi ukore icyapa kinini kigaragaza aho umuntu yabariza aramutse akeneye izo serivisi cyane cyane nimero wabonerwaho na email ukoresha kugira ngo bakubone.

Akabari gacuruza ibinyobwa bisembuye, birimo Amusiteri , bagomba kuba bafite n'ibirahure ku buryo umukiriya umuha Amusiteri ukamuha n'kirahure cyo kuyinywesha nacyo cyanditseho Amusiteri.

Icyapa kinini kigaragaza ikinyobwa gisembuye kitwa mitsingi cy'uruganda rwa Buralirwa, iruhande rwaho hari umutaka utangirwaho serivise za emutiyeni.

Nukora umushinga w'akabari gacuruza ibisembuye cyangwa n'ibidasembuye ntuzibagirwe gukoresha ibirando bya henikeni kuko bigaragara neza aho waba wicaye hose uba ubona bibereye ijisho.

Nutekereza gukora umushinga w'ubucuruzi uzibuke gukora icyapa kinini ukimanike ahantu ukorera kigaragaza ibyo ukora ndetse nibyo ucuruza kugirango ubashe kubona abakiriya baturutse impande n'impande bakuruwe n'ikirango washyizeho.

Niba uvuye kurangura ibuka gutunganya ibyo uvuye kurangura ubishyira mu mwanya wabyo kugira ngo abakiriya ntibaza bakugana badasanga ibintu bijagaraya biri mu nzira bikababera imbogamizi.

Shakira abakozi bawe imyambaro y'akazi igaragara neza, kugira ngo bage bakira abaje babagana, hari itandukaniro. Kandi n'uhaje ari ubwa mbere amenye uwo abaza wamwakira.

Ibyishimo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Geregeza usohoke uge ahantu ufate icyo kunywa, usohokane n'inshuti zawe, abavandimwe bawe, muganire, museke, mubyine, mwishime.

Nutemberera ahantu, wavuye mu rugo udatekereje neza ibyo uza gufata, ibuka kwaka agatabo kanditsemo ibyo bafite, kugira ngo urebe icyo wahitamo ku buryo bukoroheye, umenye n'igiciro cyacyo, bitewe n'ingano y'amafaranga ufite.

Imyubakire myiza igezweho yo kubaka akabari kajyanye n'igihe, ifashishe imbaho, waba wubaka etajeri cyangwa intebe cyangwa ameza, byose ubikore ukoresheje imbaho, biba bisa neza kandi biba bikomeye, biraramba kandi bimara igihe.

Niba unywa agasembuye ntiwibagirwe kunywa ikinyobwa cy'uruganda rwa sikolo. Bafite sikolo zujuje ubuziranenge nkuko bigaragazwa n'ibihembo bagiye bahabwa hirya no hino bigaragaza ubuziranenge bw'ibyo bakora.

Igihe ufite akabari ibintu byose ufitemo ubigirira isuku kandi buri mu kiriya wese uje akugana umugerereho igihe kugirango atarambirwa intebe zawe zibe zitunganyije kandi zihanaguye zitariho ivumbi etajeri yawe nayo itunganyije imeze neza kontwari nayo icyeye kugirango batagucishamo ijisho.

Hari serivise zemewe kwishyurwa hakoreshejwe ikarita yawe ya viza, atari ngombwa yuko wishyura amafaranga warufite mu mufuka, cyangwa se usanze ntayo ufite, biremewe.

Gisembuye gitunganywa kandi kikagezwa ku isoko n'uruganda rwa Skol, kitwa Virunga, ni ikinyobwa kiza cyane , kuko uwakinyweye wese, nta ngaruka zo kuba yarwara umutwe cyangwa kumva amavunane mu mubiri.

Igihe ukoresha ibirahure ugirira isuku ihagije, kugirango buri wese ugiye kugikoresha kitamwanduza indwara zishingiye ku mwanda, bitewe nuko cyatunganijwe nabi.

Aho ukorera hagira neza ku buryo hagira itandukaniro n'ahandi, ifashisha imitako itandukanye ikorerwa hano iwacu mu Rwanda, harimo iyizwi nk'imigongo n'andi mashusho meza abereye ijisho.

Igihe ugiye guhaha ibuka kwaka inyemezabwishyu y'ikoranabuhanga, kugirango utange umusanzu wawe wo kubaka igihugu biciye mu musoro. Kuko niho dukura imihanda ndetse n'amashuri abana bacu bigamo.

Nutunganya akabari kawe ntuzibagirwe gushyiraho umutako wa henikeni uri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, harimo n'inyenyeri y'umweru. Bugaragara neza ubona ahantu uri hakeye.

Igihe ufite umushinga w'ubucuruzi w'akabari, ibuka guhamagara emutiyene bakugezeho imitaka washyira hanze kugirango abahicaye baticwa n'izuba cyangwa se n'imvura, baguhe imitaka yo kuhamanika.

Uruganda rwa sikoro rwakoze icyapa kinini kigaragaza abantu bariho bishimye banywye icyo kinyobwa ko baba batandukanye n'abanyweye ibindi binyobwa bindi bisanzwe.

Ushobobora gusohokera ahantu ukumva kwicara nabyo ntubishaka byakurambiye no guhagarara biremewe kandi nabwo bakakwakira bityo ugakomeza kugira ibyishimo bijyanye n'umunsi wawe uko wabiteguye.

Igihe wakoze umushinga w'akabari, ni byiza yuko abantu ushyizemo ngo bagufashe gukora, ubagenera imyambaro yihariye, kugira ngo umntu wese uje abagana azamenye uwo yabaza ngo amwakire.

Kwa Nteri na Fani urahasanga resitora na bare byiza. Hamagara kuri zeru karindwi umunani umunani gatanu gatandatu karindwi gatatu gatatu kane bakwakire.

Gira igihe uve murugo utembere n'ahandi, ugende wicare bakwakire hanyuma wirebere n'umupira cyangwa andi mashusho ari gutambuka kuri televiziyo, kugira ngo urusheho kuruhura mu mutwe ubundi utahe hari byinshi waruhutseho.

Sibikiri ngombwa ko uhaha buru gihe ukoresheje amafaranaga afatika mu ntoki, hari uburyo bwiza bwagenwe bwo kuba wakishyura ibyo wahashye ukoresheje ikarita yawe ya banke ukishyura ibyo wafashe byose kandi mu buryo bwizewe.

Ufite akabari shyiraho ibirango bigaragaza yuko aho hantu hacururizwa ibinyobwa bisembuye cyangwa se n'ibidasembuye kandi wibuke gukoresha ahantu abakugana bafite ibinyabiziga baparika ibinyabiziga byabo.

Inzoga z'ubwoko bwinshi zitandukanye atari izimenyerewe ku izina rya rufuro. Mu gihe uzikeneye wakwegera ahantu ziri bakaguha yewe n'iyo udafite ubushobozi bugura icupa ryose bagusukira ijyanye n'amafaranga ufite.

Hari igihe ujya ahantu ukumva ukunze ibintu bihari n'intebe cyangwa ameza n'uburyo hubatse ukumva urabikunze, egera ababihuguriwe cyangwa ababikora babikugezeho mu buryo bwiza kandi muri forume yose ushaka.

Igihe cyose ugiye gukora umushinga w'ubucuruzi , ibuka gushaka ibyapa binini bigaragaza ibyo ugiye gukora; kugira ngo ubushyire aho ugiye gukorera buri wese uhaciye, amenye ikihakorerwa.

Witerwa ikibazo ngo ufite umwanya mutoya, utabona aho utera intebe n'ameza, hari intebe ntoya bakora n'ameza, bikajyana n'uwo mwanya, kandi ukabona birasa neza, ku buryo wicara rwose uguwe neza nta kibazo.

Igihe ucuruza ibinyobwa bisembuye ugomba kuzirikana ko hari abatemerewe kubihabwa cyane cyane abari munsi y'imyaka cumi n'umunani , niba baje bakugana basobanurire yuko batabyemerewe.

Ufite aho ukorera ubucuruzi bw'akabari, ni byiza yuko wita ku mitako yose ushyiramo, amatara yaka amabara atandukanye, kandi afite urumuri ruringaniye, kugira ngo atazagira uwo abangamira, mu bakiriya bawe baza bakugana.

Ahantu heza ho gusohokera n'umuryango wawe mukicara mukaganira bakabakira, hari intebe nziza zikozwe mu biti, hari ameza agaragara neza akozwe mu biti, hasi harakozwe ku buryo ntaho wahurira n'icyondo.

Ibuka ko n'aho ukorera hakenewe gutakwa hagasa neza. Ntabwo imitako yagenewe gukoreshwa aho umuntu atye gusa. Waba ucuruza ibinyobwa; bisembuye cyangwa ibidasembuye, iby'uruganda rwa Burarirwa cyangwa n'iby'izindi nganda.

Sikoro yabashyiriyeho uburyo bwo kwamamaza ibicuruzwa ikoresheje icyapa, hari icyo bashyiraho virunga kinini kugira ngo kigaragaze ikinyobwa gishya bafite kugira ngo umukiriya uzagikenera azagisange ahaba ibicuruzwa byabo.

Ushaka gusohokera muri aka kabari, hamagara nimero igendanwa, zeru karindwi umunani umunani, mirongo ine n'umunani, mirongo itandatu na gatandatu, mirongo inani na gatandatu, cyangwa zeru karindwi umunani karindwi, mirongo kenda n'umunani mirongo inani na gatandatu mirongo irindwi usange baguteguriye.

Ibuka gutera intebe mu buryo butandukanye kugira ngo buri mukiriya uje akugana mu kabari kawe ahitemo aho agomba kwicara hamunogeye, kandi wihutire kumwakira kugira ngo atarambirwa.

Ahantu henshi hatandukanye uhasanga utubari ducuruza ibinyobwa bisembuye cyangwa ibidasembuye. Uhasanga n'abakozi beza bo kukwakira, kuburyo ubutaha nabwo iyo utekereje kugaruka, nta mpungenge ugira.

Ibirahure byiza bivomerwamo inzoga ya mitsingi si ngombwa burigihe ngo unyweshe icupa icyo kirahure kiba ari kinini rwose, kiba kingana n'icupa iyo ugiteruye uba ubona ufashe ikintu kigaragara neza muntoki zawe.

Mucuruzi, ibuka gutunganya ibikoresho byawe ubikorere isuku, cyanecyane ibirahure igihe byakoreshejwe ubyoze neza kandi ubyubike ahantu hatunganyije neza kugira ngo uze kubiha abandi bidafite umwanda.

Igihe cyose uri mu kazi, gerageza wibuke gufata umwanya wo kureba ibyo wacuruje n'ibisigaye, urebe neza yuko utaba waguye mu gihombo, bizagufasha gukomeza gukora, kandi neza.

Igihe cyose ucuruza ibicuruzwa bisembuye by'uruganda rwa sikoro, bagufitiye udukoresho twiza twabugenewe two gutwaramo inzoga, kandi dusa neza aho kugirango uzishyire abakiriya uzitwaye mu ntoki.

Iguhe cyose urengeje imyaka cumi n'umunani wemerewe kunywa ikinyobwa gisembuye. Haba iby'urugamda rwa burarirwa nka mitsingi cangwa amusiteri ndetse n'iby'uruganda rwa sikoru harimo sikoro n'izindi nzoga bakora nka virunga.

Mu buzima birafasha iyo ugeze igihe ugafata umwanya wawe ugatemberera ahantu hatandukanye ukicarana n'abandi mukaganira, mugaseka, mugasusuruka, byaba ngombwa mugahaguruka mugacinya n'akadiho.

Igihe utwaye ikinyabiziga irinde kugiparika ahatarabugenewe kuko haba hari ibindi binyabiziga bigomba kuhaca, bityo uba ugomba kugiparika ahantu ku ruhande kugirango utabangamira abandi bagenzi nawe bikaba byakuviramo gucibwa amande.

Nusohokera ahantu uzibuke kwaka agatabo gashushanyijemo ibiciro ndetse n'ibicuruzwa byabo kugira ngo umenye ibyo uri bufate, hato utaza gufata iby'umurengera kandi witwaje amafaranga adakwiriye.

Ufite ahantu ucururiza ibinyobwa bisembuye ntuzibagirwe kuhagirira isuku, kandi ntuzibagirwe kuhashyira imitako, ikindi ntuzirengagize gushyiramo urumuri ruringaniye rutari rwinshi kandi rutari rukeya.

Icyapa kinini gishushanyijeho umuntu uri kunywa ikinyobwa gisembuye kitwa virunga gitunganywa n'uruganda rwitwa sikoro ari narwo rukigeza ku isoko, wagisanga aho ariho hose mu gihugu.

Shaka abubatsi babigenewe kandi babihuguriwe, bakubakire inyubako ijyanye n'ibyo ugiye gukora, kandi bashyiremo ibikoresho bibereye ijisho, kugirango abaje bakugana babone isuku ihagije kandi wibuke gutandukanya amakaro yo komeka hasi kugirango hatazagira uhahurira n'impanuka.

Inywere ikinyobwa cya amusiteli gisembuye gikorwa kandi kigatunganywa n'uruganda rwa buralirwa ari na rwo rukigeza ku isoko ni kiza cyane kandi gikozwe mu ingano.

Singombwa burigihe ko icyo kunywa ugifatira murugo. Fata inshuti yawe musohoke mujye ahantu heza mwicare muganire, murebana amashusho atambuka kuri tereviziyo zihari mwungurana ibitekerezo mugirana inama.

Bantu mutwara ibinyabiziga by'amagare mu mujyi wa Kigali mwibuke ko mutemerewe kurenza saa kumi nebyiri z'umugoroba kugira ngo mutazajya muteza ibibazo birimo impanuka mugihe murengeje ayo masaha mukiri mu muhanda.

Ntukagire impungenge igihe wasohokeye ahantu wagiye gufata icyo kunywa, ngo ntufite amafaranga mu ntoki yo kwishyura kandi kuri telefone yawe uyafite, hari uburyo bwiza MTN yagennye bwo kwishyura, ukanze akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, umunani, akanyenyeri, rimwe, urwego, ugakurikiza andi mabwiriza akurikiraho, ukishyura amafaranga nta kindi kiguzi uciwe.

Igihe ucuruza manika igiciro cya buri gicuruzwa ahantu hagaragara kugira ngo umukiriya uje kugana amenye amafaranga yacyo atiriwe abaririza.

Habaho ubwoko bwinshi bw'inzoga butandukanye, igihe ugiye kuyigura wibuke kureba ko ifunze neza n'udupapuro twabugenewe tugaragaza ko icyo kinyobwa cyujuje ubuziranenge.

Ufite ubucuruzi bugendanye n'ibyo kunywa ni byiza ko ubukorera ububiko bwo kubishyiramo bwiza kandi bubereye ijisho buzajya gukurura buri mukiriya wese uje akugana.

Gusoma ni ishingiro ryo kumenya, gerageza ushake umwanya mu buzima bwawe bwa buri munsi wiherere ufate ibitabo usome, uzungukiramo byinshi kandi uzasobanukirwa byinshi.

Kwidagadura ni ingenzi mu buzima kuko bituma twishima ariko si buri wese kujya aho bataramira ntibemerewe kunywa inzoga aturuzuza imyaka y'ubukure ariyo cumi n'umunani.

Ahantu mwakwicara wowe n'inshuti zawe mukaganira ndetse n'abavandimwe mukungurana ibitekerezo, mwahakorera n'inama zo gutegurana ibirori bitandukanye murebera hamwe uko bizagenda munungurana ibitekerezo.

Ku bacuruzi bacuruza ibijyanye n'ibyo kunywa, bagiye bashyiraho ibiciro kuri buri gicuruzwa, kugira ngo uje abagana, amenye buri gicuruzwa bafite amafaranga kigura, hatavaho kumuhenda.

Mu gihe ucuruza ibinyobwa bisembuye biri mu macupa manini, ibuka kugira ibarahure byiza byabugenewe bitewe n'ikinyobwa icyo ari cyo; kuko ibyo wanywesha amazi ntabwo ari byo wanyesha inzoga cyangwa ngo unyweshe mitsingi.

Ameza ateretseho ikirahure kirimo icyo kunywa, ateretseho n'iparato iriho ibiribwa birimo ibikozwe mu birayi byitwa ifiriti n'ibikomoka ku matungo ari byo nk'inyama.

Imitako utegura ahantu ukorera cyangwa utuye ntuzigere wibagirwamo iy'ibiti kuko igaragaza ahantu neza cyane ndetse n'uwashaka kuhafatira ifoto ikaza isa neza ku buryo bunogeye amaso.

Abantu badakunda ibinyobwa bisembuye byongewemo isukari burarirwa ibafitiye ikinyobwa kitwa henikeni, ntasukari yongewemo kandi ni kiza wagisanga aho ariho hose mu gihugu ahakorera abacuruzi ba burarirwa.

Nyuma yo gufata ikinyobwa cya sikolo, ntuzicare hamwe uzahaguruke maze ucinye akadiho maze ibyishimo bigusage kandi uzibuke kujyan n'inshuti zawe kugira ngo musaranganye ibyo byishimo.

Niba ukora ubucuruzi koresha icyapa kiranga ibicuruzwa byawe ukimanike ahantu hitegeye kandi hagaragara habonwa na buri wese kugira ngo n'uhaciye atazi ikihakorewa azasome icyo cyapa amenye icyo agomba kujya kubariza aho hantu.

Uruganda rwa sikolo rukora ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, rutugezaho n'ikinyobwa gisembuye kitwa sikolo mariti. Ni ikinyobwa kiza kibereye buri wese usibye abara munsi y'imyaka cumi n'umunani.

Ahantu umanika ibicuruzwa byawe shyiramo urumuri rubigaragaza ku buryo buri muntu winjiyemo areba akamenya buri kintu aho giherereye kandi ntiwibagirwe no gushyira urumuri aho abantu bicara kugira ngo hatagira ikibahungabanya.

Burarirwa ijya igeza igihe igaha abacuruzi bacuruza ibicuruzwa byabo, amafirigo. Bakguha nk'iyanditseho, ishushanyijeho icyapa cya kokakora; ukayifashisha mu bucuruzi bwawe.

Ukeneye kurangura amata y'uruganda rwa NYANZA bagufitiye ikivuguto ndetse gifunze mu dukarito, bafite na yahurute wagenda bakakuranguza nawe ukajya kubicururiza aho ukorera birahendutse.

Ibicuruzwa by'uruganda Inyange, birimo amata, ji z'abana n'iz'abantu bakuru amazi ari mu makarito bamanitse muri etageri, n'amazi manini ya Nili.

Igihe ucuruza isambusa uge wibuka ko ari ikiribwa kitamara igihe kirekire kitarangirika. Niba hari ibyasigaye bitacurujwe ngo birangire wibuke kutabiha abakiriya bitaza kubagiraho ingaruka.

Isambusa ni ikiribwa kiza kandi gikundwa n'anbantu benshi, hari izikorwa bifashishije ifarine bagakoresha n'inyama hari n'abifashisha ibirayi ndetse n'ifarine batibagiwe ibirungo nka puwaro.

Hari amakarito y'inyange aba afunze mu makarito, ukeneye ayo gukoresha mu rugo wayagura ukayajyana hari n'imitobe iba ikoze mu mbuto wagura ukinywera nta kibazo byujuje ubuziranenge kandi bifite uburyohe ntagereranywa.

Uruganda rwa Mukamira rutunganya ibikomoka ku matungo amata rufite ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo amata y'abana n'abakuru harimo yawurute z'abatoya n'abakuru.

Hari inganda zisigaye zitunganya amata zikayashyira mu byansi bifite ingano itandukanye bitewe n'ubushobozi umuntu afite haba kitiro imwe, haba litiro eshanu, haba litiro eshatu ukayagura bikurikije n'ubushobozi ufite ukayajyana mu rugo wowe n'umuryango wawe mugasangira.

Nukenera amata y'inyange uzarebe ahantu handitse inyange hari aho bagennye bazajya bayakusaniriza mu byuma byabugenewe kugira ngo buri muntu wese uyakeneye aze ayafate kandi yujuje ubuziranenge baba babafitiye n'ibindi bicuruzwa birimo imitobe cyangwa amazi

Muntu wese ukeneye amata, reba ahanditse icyapa cy'uruganda rwa Nyanza; ugende baguhe amata meza yujuje ubuziranenge, kuko nI ishingiro ry'isoko y'ubuzima, tuyanywe kandi tuyakunde.

Aho ukorera, shaka udukoresho twabugenewe, uterekemo ibikoresho byawe, kugira ngo bitaza kwangirika cyangwa se ngo bijyeho umwanda, cyangwa ngo bitware umwanya munini w'aho biteretse.

Umucuruzi ucuruza ibiribwa bitetse aba agomba kubyitaho akabipfundikira neza kugira ngo hatinjiramo umwanda, kandi akabitereka ahantu heza habugenewe atari aho abonye hose.

Igihe icyaricyo cyose ugiye gufata amafunguro ibuka neza ko ugomba gukaraba amazi meza n'isabune ugasukura ibiganza byawe kugira ngo utaza kugira umwanda ufata ukawutamira bityo bikagira ingaruka mbi k'ubuzima bwawe.

Igihe cyose uri gukusanya amata ifashishe ibicuba nibyo, bikoresho byiza byagenywe byo kuyashyiramamo, kandi aho ukorera wibuke gushaka ibirahure byabugenewe uzajya uyashyiramo igihe uri kwakira abantu.

Uruganda rutunganya amata rwa Nyanza, ahantu rukorera ruharangwa n'ikirango cyaho cyanditseho Nyanza, hashushanyijeho inka ndetse hasize n'amabara yiganjemo ubururu kandi harimo n'umweru.

Hari igihe twari tumenyereye ko ku isoko haboneka ifarini zikozwe mu nyama ndetse n'izikozwe mu birayi. Ariko ubungubu ushobora kubona n'izikozwe zirimo n'amagi ndetse n'inyama.

Niba uri umworozi woroye inka ifite umukamo egera uruganda rwa Nyanza ubagezeho umusaruro wawe nawe amafaramga azajya avamo uyabyaze undi musaruro.

Igihe cyose ufite ahantu ukorera ubucuruzi bushingiye ku biribwa cyangwa ibinyobwa, ibande kuhagirira isuku uhatunganya ukoresha ibikoresho bisa neza kugira ngo abaje bakugana bibashe kubongerera ubushake bwo kurya.

Igihe ucuruza icyayi jya wibuka wibuka no kurangura capati kuko birajyana kandi ubikorere ahantu heza hasukuye kugira ngo umukiriya wese uje abone hari isuku.

Ubaka agakoresho gakozwe mu buryo bugerekeranye kugira ngo ubashe kubikamo ibikoresho byawe nk'amajerekani aho kugira ngo uyatereke hasi atware umwanya munini ubure naho watereka ibindi ibintu by'ingenzi.

Uruganda rw'inyange rutunganyiriza rutunganyiriza amazi meza yo kunywa ndeste n'amata agira intungamubiri afasaha abana gukura neza wishyura wifashishije ikoranabuhanga cyangwa ukishyura amafaranga mu ntoki biremewe.

Ushaka ko mu rugo iwawe hasa neza cyangwa aho ukorera, ibuka kubakisha amakaro hari ay'asaswa hasi mu nzu cyangwa ayomekwa ku bikuta, yose aba asa neza aho ukorera cyangwa aho utuye usanga hateye ubwuzu.

Kora umushinga w'ubucuruzi bw'amata, ushake icyuma wayakusanyirizamo, aho wayabika kugira ngo agire ubukonje, intebe n'ameza, indobo washyiramo amandazi na keke n'imigati, kugira ngo uhereze abantu amata, ubaha n'icyo bafatisha.

Ntuzongere kunywa amazi adasukuye kuko hirya no hino mu gihugu, hari uruganda rutunganya amazi yujuje ubuziranenge rwitwa Jibu, rukugezaho amazi mu ngano iyo ari yo yose.

Ushaka amata reba ahantu Nyanza ikorera baguhe amata meza, bagutegurira n'ibikomoka ku amatungo nka magi ndetse ushaka n'amazi yo kunywa nayo baba bayafite barayaguhereza.

Irindazi n'ikiribwa gikozwe mu ruvange rw'ifu y'ifarini, amata, isukari. N'ikiribwa cyiza cyane gitera imbaraga uwakiriye, kandi cyifashishwa cyane mu mafunguro ya mu gitondo.

Shaka udukoresho twabugenewe twa purasitike wabikamo ibicuruzwa byawe ukabishyira ahantu bitekenye kuburyo bigerekeranye kandi ntibibashe kwangirika, wibuke no kubaka utundi tuntu twiza wabimanikamo kugira ngo umukiriya ntaza abashe kubibona bimworoheye.

Amata atunganywa n'uruganda Inyange, ni amata meza yujuje ubuziranenge ashobora guhita anyobwa, ateguwe neza kandi ni ingirakamaro ku muntu uwo ari we wese cyane cyane ku bana.

Ukeneye intungamubiri zuzuye ku giciro kiza egera ahakorera Inyange baguhe amata ayo waba ushaka yose barayaguha mu ngano iyo ariyo yose bitewe n'ubushobozi ufite.

Ahantu ukorera ubucuruzi cyane ubw'amata, ni byiza ko haba hisanzuye kandi hari amadirishya, kugira ngo hinjiremo umwuka mwiza abaje babashe guhumeka btabagoye.

Tumenyereye ko habaho amandazi akozwe mu ifarini ariko ubu ku isoko hari amandazi akozwe no mu bijumba ni aho abahinzi rero ko bongera imbaraga mu buhinzi bw'ibijumba kugira ngo umusaruro wabo ugurwe.

Gucuruza amandazi yashyire mu ndobo ibonerana Kandi wibuke gupfundikira kugirango hatagira ikindi kintu kinjiramo cy'umwanda kandi ushake n'akantu keza ko kuyafatisha kugirango utaza kuyakozaho intoki ugasigaho ibyatuma abantu bandura uburwayi.

Tegurira ahantu heza ho kwicara abaje bakugana hanyuma ubakirize amata ndetse n'amandazi kandi wabatekera n'imyumbati kuko nayo itera imbaraga ifasha umubiri.

Ugiye gukora ubucuruzi shaka ahantu heza yaba ubucuruzi bw'imyenda cyangwa ibikomoka ku matungo cyangwa se imiti kuburyo n'uzaza akugana afite ikinyabiziga azabona aho agiparika.

Uduti twifashishwa hakurwa imyanda yagiye isigara mu menyo, bitewe n'ibyo umuntu yariye kugira ngo bitagumamo bikaba byakangiza amenyo bikayaviramo kwangirika ndetse akaba yarwara.

Igihe hari abakiriya bakugana, gerageza kubitaho kuburyo bwiza kugirango batarambirwa bategereje umwanya munini bizatuma bagarukana n'abandi cyangwa se bakurangire bitewe nukuntu wabakiriye.

Mucuruzi igihe umuguzi aje akugana mwakire neza kandi umwiteho, bizatuma ubutaha agarukana n'abandi cyangwa se akurangire n'abandi bityo ubashe kubona abakiriya b'ibyo ucuruza mu buryo bwihuse.

Keke ni ikiribwa kiza gihundwa n'ingeri zose igihe uri kuyikora ibuka kureba ko cyahiye ku kigero gikwiriye, kugira ngo abakigura bakigure gifite ubuziranenge kitashiririye.

Yawurute ni nziza yigurire abana bawe kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza, kuko ni ikinyobwa cyongera intungamubiri kandi kigatuma umwana akura neza kandi asa neza.

Igihe ugiye kunywa amata byaba byiza aho kugira ngo ugire ikindi kintu ufatisha, wafata umwumbati cyangwa ikijumba akaba ari byo ufatisha kuko ni ibiribwa byose bigira icyo bimarira umubiri.

Udukoresho twabugenewe twokubikamo amagi dukozwe mu bikarito. Bituma abikwa neza kuburyo rimwe riba ritandukanye n'irindi ntaho yahurira ngo yangirike. Ni byiza rero kutwifashisha haba aho ukorera cyangwa iwawe mu rugo.

Capati ni ikiribwa gikunzwe n'abantu batari bakeya, gikorwa hifashishijwe ifarini, amagi, amata, isukari cyangwa se umunyu ibyo byose birakoreshwa.

Igihe wakira abantu baza bavugana ni byiza yuko ugenzura ibikoresho ukoresha ko bisa neza kandi igihe ubona hari ibitangiye gusaza ukabisimbuza ibishyashya kugira ngo abakiriya nibaza batazagira ikibazo.

Ukeneye y'inyange wayasanga ku ikusanyirizo ryayo haba hari ibirango hari ibyapa cyanditseho inyange kinashushanyijeho inyange ni aho wayabariza bagira amata meza kandi yujuje ibisabwa.

Niba ugiye gucuruza amandazi na keke, shaka indobo zabugenewe, zibonerana, abe ari ho ubishyira, kugira ngo nujya guhereza umuntu utabyitiranya, kandi ushake icyuma cyo kubifatisha kugira ngo isuku yabyo ibe yizewe.

Ubu hari ibyakemutse ku bijyanye n'umusaruro w'amata. Mbere, ntago hari hari uburyo bwo kuyatunganya ngo abe yabikwa, abe yamara igihe kirekire. Ariko ubu haje inganda ziyatunganya, akamara igihe, bityo umusaruro ukomoka ku matungo ntupfe ubusa.

Umucuruzi igihe cyose yita ku bikoresho akoresha. Ushake udutambaro tw'isuku twabugenewe, igihe umaze koza ibikoresho byawe ubihanagure, kugira ngo utaza kubihereza umukiriya bijojobaho amazi, ushake n'utuntu ushyiramo impapuro z'isuku, abashe kugafata bimworoheye.

Nujya kugura umugati, reba ukatakasemo uduce twinshi, kugira uze kuwugabanya abo usanga mu rugo bitakugoye, buri wese ugenda umuhereza utwo wagennye kumuha bitakugoye.

Abantu bicaye bari kunywa amata ikinyobwa cyiza cyongerera ubudahangarwa umubiri w'umuntu, kikawurinda gusaza imburagihe, kikawongerera intungamubiri ku buryo buhagije.

Indobo ifite ibara ry'umweru n'umufuniko iteretse ku meza irimo keke, iruhande rwayo hari intebe wakwicaraho ugafungura iki kiribwa.

Buganiza amata mu cyuma cyabugenewe kiyabike neza, kugira ngo buri wese uje kuyagura ho ayatware yujuje ubuziranenge, yagumanye umwimerere wayo nta kintu na gitoya yahindutseho.

Amata akomoka ku nka ni meza cyane, atuma ubuzima bumera neza, igihe yatunganyirijwe mu ruganda rwa ma Mukamira, tubasha kuyabona ahantu henshi hatandukanye, kandi bitatugoye.

Wagendanye n'umwana wibukako ugomba kumujyana ahantu ukamugurira ibyo kurya ndetse no kunkwa kugirango mukomeze urugendo afite imbaraga ataza kugera aho agacika intege bityo nawe akakurushya m'urugendo.

Uri ku rugendo ntuzicwe n'inyota reba ahacururizwa ibinyobwa yaba ibikomoka mu nganda zitunganya ibishingiye ku matungo nk'amata cyangwa n'izitunganya imitobe na fanta unywe ushira inyota.

Mukamira badutunganyiriza amata kandi twibuke ko amata ari ubuzima. Niyo mpamvu bagiye bashyira ibyapa binini bigaragaza aho bakorera kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda burusheho kuba bwiza.

Mu rwego rwo kwirinda indwara zikomoka k'umwanda hari impapuro zabugenewe z'isuku zikoreshwa ku meza ni ngobwa ko uzitaho ukazibika neza kugirango igihe uzikoresheje zidashyira umwanda kubiribwa watashye hanyuma bikagukururira izo indwara.

Uruganda rutunganya ibikomoka ku matungo cyane cyane amata ya mukamira, ni amata meza kandi yujuje intungamubiri, tumenye neza ko amata ari ubuzima uyakoresheje intungamubiri ziriyongera mu mubiri ukagubwa neza.

Mu gihe ukeneye ko umwana wawe akura neza ntakabure igi byibuze rimwe buri munsi kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi abashe gukura neza kuko ribamo intungamubiri zihagije.

Igihe ucuruza amata gira isuku kandi ukoreshe ibirahure byabugenwe kugira ngo abaje bakugana, ubutaha bazage bakurangira n'abandi ibyo nawe bizakugirira umumaro.

Hari uburyo wabonamo ibicuruzwa by'uruganda inyange uhamagaye nimero zero karindwi umunani umunani cumi na gatandatu cumi n'cyenda zero zero.

Igihe ugiye kugura yawurute ibuka kugura iya Mukamira ivanzemo inkeri hari n'ubundi bwoko ntabwo ari ubungubu gusa tubafitiye ibicuruzwa byinshi.

Egera inyange baguhe umutobe w'imbuto ukozwe mu matunda, kuko akungahaye kuri vitamine se. Ni meza bituma umubiri wawe urushaho kumera neza.

Niyo bwaba bwije ukeneye kunywa amata reba ahantu hakorera inyange urasanga bagifunguye, hanyuma wigurire amata. Ushaka wayahanywera cyangwa se ukayajyana mu rugo ukayasangira n'umuryango wawe.

Ni ingenzi ko niba ufite ikusanyirizo ry'amata, ubanza gusuzuma icyansi umukiriya aje guhahiramo, kugira ngo utayashyiramo kibaye kidasukuye neza, na yo yaza kumugiraho ingaruka.

Shaka ibikoresho byabugenewe, ubishyire ahantu ukorera kugira ngo ibyo ukora ubishyiremo bibe biri ahantu hatekanye kandi mu buryo bugerekeranye bituma bitwara umwanya mutoya, nawe ahandi hasigaye ukagira ibindi wahakorera.

Ifarini ni ikiribwa cyiza gikozwe mu ifarini ndetse n'inyama, hakajyamo n'ibindi birungo. Harimo na tungurusumu utibagiwe n'umunyu. Kigure kirahendutse kandi kiraryoha.

Ikinyobwa cy'icyayi gikundwa n'abantu benshi, kandi gukoreshwa hafi n'abantu bose, yaba mu ngo cyangwa abakorera mu biro, kirakundwa, ubu ukaba ukoresha amajyani ya hano iwacu i Rwanda, cyangwa n'ikawa ikomoka hano iwacu.

Abaje bakugana abicara ubakirane ubwuzu, kandi ibikoresho ukoresha ubuganiza amata bibe bipfundikiye kugira ngo hatagira ikintu cy'umwanda kijyamo, abagura ibintu na bo babijyana mwibuke kubapfunyikira mu mpapuro zabugenewe z'isuku.

Mubyeyi igihe ukoresha telefone, gerageza uzirinde abana kuko zibagiraho ingaruka mu mitekerereze yabo, ntabwo zagenewe abana bato, uyimurinde kugeza igihe azageza mu myaka ye y'ubukure.

Yahurute ni nziza, hari izikozwe zivanzwemo n'inkeri. Wayigura ukayinywa, kandi wakibuka ko n'amazi ari isoko y'ubuzima, ukagura amazi ya Nili, na yo ukayanywa.

Igihe ucuruza amata ni ngombwa ko ugomba kugenzura ibikoresho ukoresha ibirahure wakiriramo abantu ukareba neza ko bisukuye neza ibyansi ubuganirizamo amata nabyo ukareba ko bifite isuku ihagije.

Ibiribwa bihiye bigomba kuba biri ahantu bipfundikiye kugira ngo udukoko tunyanyagiza imyanda tutabikoraho abaje kubirya bikabagiraho ingaruka, ni byiza rero ko byitabwaho.

Ukeneye ubusobanuro buhagije ku bicuruzwa by'uruganda rwa Nyanza rutunganya amata, hamagara zeru karindwi ikenda, zeru kabiri karindwi kane, kane umunani ikenda.

Uruganda Inyange ruduha amata meza yujuje ubuziranenge, kandi bakaduha n'imitobe ikozwe mu mbuto arizo amaronji, cyangwa amatunda, n'ibindi.

Tata urupapuro rwagenewe gufatishwa iibiribwa rw'isuku urufate neza kandi wirinde kugira aho intoki zawe zahurira n'icyo kiribwa uri kurya kugira ngo imyanda waba ufite ku ntoki itajya kuri cya kiribwa bikarangira uyiriye.

Niba ucuruza ikinyobwa nk'amata ntuzavangemo ibindi binyobwa bisembuye, ahubwo uzashyiremo ama ji cyangwa se amazi kugirango nubona umukiriya utanywa amata na we yisangemo, ubone icyo umwakiriza.

Ibuka gusiga irangi aho ukorera rijyanye n'ibyo uhacururiza. Niba ucuruza amata, ntuzibagirwe gukoresha irangi ry'umweru kandi ntuzibagirwe kugura ibirahuri byabugenewe byo gucururizamo ayo mata.

niba ufite umushinga ukaba ukora ibitu bigezwa ku isoko bikariribwa bitongeye gutekwa ibuka kubikorana isuku ihagije kandi ushaka zabugenewe zo kubifungamo.

Umuyobozi ufite ubucuruzi bw'amata. Akira abaje bakugana neza kandi wishimye, kugira ngo bazagaruke kandi bazakurangire n'abandi, bavuga uko wabahaye serivisi inoze, babona uko bagaruka.

Egera ahari icyuma cyabugenewe gikusanyirizwa mo amata, kugira ngo ubone amata meza y'umwimerere, waba ukeneye ayo guteka mo icyayi cyangwa ayo gukoresha mu bindi bikorwa bitandukanye by'ibiribwa mu rugo.

Igihe ugemura amata ku ikusanyirizo, icyansi cyawe ugemuramo gishyireho ikimenyetso kugira ngo batazakitiranya n'icyundi ibyo bizagufasha kumenya icyansi cyawe ukihagera.

Ikibyobwa cy'amata ni kiza sangira n'inshuti zawe waba uri murugo cyangwa se mwasohokeye ahantu birafasha kugira ngo niba ugiye no mu kazi, ugakore neza kandi ufite imbaraga nta munaniro.

Amazi ni isoko y'ubuzima. Ukeneye amazi meza yo kunywa koresha amazi ya nili atunganirizwa mu Rwanda kandi agakorwa neza ni amazi y'isoko y'inahangaha iwacu rwose ni ingirakamaro.

Igihe woroye inka kandi ikamwa hari uburyo wabyaza umusaruro amata ukama inka yawe, hari abantu babugenewe bagenda bafite ibicuba bakusanya amata bakayageza aho agomba kubikwa mu buryo bwizewe.

Ubu byaroroshye ntibikiri ngombwa ngo dutegereze abagendana amata ku magare, ahubwo hari ibyuma byabugenewe bigiye biri mu dusantere dutandukanye, wahegera ukagenda ukagura amata, igihe icyo ari cyo cyose.

Ibyo uruganda masaka rutunganya ibikomoka ku matungo ari byo amata, bakayabyazamo ibindi binyobwa bitandukanye harimo yawurute, bakazipfunyika mu buryo bugezweho kandi bubereye ijisho.

Amata meza y'ubwoko butandukanye, asigaye afungwa mu byiciro bitandukanye hari aya litiro imwe, hari aya litiro eshanu, hari afungwa mu dukombe dutoya hari n'ayafungwa mu dukarito ku buryo byorohera buri muguzi wese kuguraraho bitewe n'ubushobozi afite.

Hari igihe bisaba yuko wowe ubwawe wicara ahantu uri wenyine kugira ngo ugire byinshi ubasha gutekerezaho haba mu buzima busanzwe cyangwa se kumwe ugenda ubona hari nk'imyanzuro runaka y'ibintu ushaka gufata ni byiza ko wihera ukabitekerezaho uri wenyine.

Ukeneye kwakirwa hari aho wicara ugahabwa icyo kunywa cyangwa ukeneye n'ibyo gitwara birahari hari amata litoro eshanu , hari litoro eshatu hari yahorute intoya n'inini, iziri mudukombe n'iziri muducupa.

Ubugubu hari amata agiye afunze mu ngano zitandukanye, wagura bitewe n'ubushobozi ufite ku mufuka, hari ayafunzwe mu dukombe dutoya ndetse hari n'ay'abafunzwe mu dusashi wagura cyangwa se ukanarangura nawe ukajya gucuruza aho uherereye.

Ushobora kumva ukeneye gukora umushinga, egera MUKAMIRA bakuranguze amata ugende nawe ucuruze kandi wunguke. Bagira amata meza, kandi twibukiranye ko amata ari ubuzima.

Ntugire imbogamizi igihe ukeneye yahurute ngo ufite amafaranga makeya kuko hari izifunzwe mungano intoya ndetse ninini bityo amafaranga waba ufite uko yaba angana kose urayigura.

Gukoresha uburyo bwo hutimiza ibyo waguze bigira akamaro kanini cyane: harimo gukwirakwiza ibicuruzwa mu bice byose, harimo kongera ikoranabuhanga. Kuko gutumiza ibyo waguze, bifasha n'ikoranabuhanga nk'uburyo bwa telefoni cyangwa porogame, bigafasha abakiriya kumenya ibyo bakeneye nta mbogamizi. Kandi bishobora gushyigikira ubucuruzi bw'abakora ibintu bigiye bitandukanye, nk'uruge ro vuba. Waba ushaka amakuru arambuye ku kigo runaka cy'izi serivisi cyangwa uko bigenda? Hano turimo turabona uburyo ushobora kugura imyenda y'abagore, cyangwa se imyenda y'abana, ukoresheje ikoranabuhanga.

Amata yizewe uyasanga ku ikusanyirizo kuko niho hari uburyo bwiza bwizewe abikwamo akaba yamara igihe kandi nta kibazo afite, bityo uyakeneye wese igihe icyo aricyo cyose akaba yajyayo akayabona akiri amata meza yujuje ubuziranenge.

Uruganda rwa masaka rufitiye cya igicuruzwa cya yawurute kiri mu ngano zitandukanye habe ntoya, habe n'iziringaniye n'iziri mu tujerekani dutoya. amafaranga ayo ariyo yose waba ufite urihahira.

Amata ni ikinyobwa kiza cyane gikungahaye ku ntungamubiri ni meza ku bana, ku bantu bakuru, abasaza n'abakecuru buri kigero cyose waba urimo ugomba kunywa amata kuko afasha umubiri w'umuntu kumera neza.

Ntuzicwe n'inyota igihe uri kurugendo cyangwa uri mu rugo, nyarukira ahacururizwa ibicuruzwa bidasembuye harimo ibikozwe mu mitobe y'imbuto ndetse n'amata, hari n'amazi atunganyijwe neza aba yujuje ubuziranenge.

Gukora umurimo wo gucuruza imbuto ibuka gushaka udukombe twabugenewe tubonerana, ukatemo imbuto uduce dutoya wazitunganyije uzivangire muri ako gakombe kugira ngo uwuza akeneye izivangavanze nawe akubere umukiriya aguhahire.

Mu bucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, gerageza kubipanga ku buryo bwiza kandi binogeye ijisho, kugira ngo umukiriya naza atazabona bijagaraye, akaba yanasubirayo ntacyo aguze. Kandi bibe bifite isuku igaragara imbere n'inyuma.

Mu rwego rwo kigirango amata akomeze abe yujuje ubuziranenge, ni byiza ko akusanyirizwa mu bicuba byabugenewe aho kugira ngo atwarwe mu majerekani nkuko bigaragara hamwe na hamwe.

Inyange ifite ahantu henshi yagiye idushyiraho, wasanga amata cyangwa ibicuruzwa by'uruganda Inyange, bityo bikorohera buri munyarwanda aho atuye hose kuba yabona amata bitamugoye.

Ahenshi mu gihugu uhasanga ibyuma bijyamo amata y'inyange kugira ngo buri mukiriya wese uje abagana babashe kumwakiriza ayo mata, yujuje ubuziranenge kandi n'uyatwara na we barayamuhereza.

Aho uzabona amata y'i Nyanza ntuzacikwe ngo ugende utayanyweye kandi ntuzibagirwe gushyira n'abo wasize mu rugo, ngo na bo bumve ubwo buryohe bwayo kuko ni meza kandi arakunzwe.

...ribwa cy'amandazi gikozwe mu ifarini, amata, isukari, ni cyiza kuko gifasha abantu benshi batandukanye ndetse bagipfunyikira n'abana bagiye ku mashuri, bakaza kutiyifashisha barimo.

Ushobora kwigurira ikiribwa kizwi ku izina rya capati, ukakinywesha amata kandi gikozwe mu ifarini, amagi ndetse n'amata. Cyuzuye intungamubiri zihagije.

Uruganda rw'Inyange rutugezaho ibicuruzwa bitandukanye harimo amazi manini afunzwe mumacupa ugura ukajyana mu rugo ukajya unywaho gake gake utugega n'imitobe ikomoka ku ntebe.

Igihe cyose ugiye gushyira icyuma cyo gukusanyirizamo umusaruro w'amata wibuke gukoresha amakaro usasa hasi cyangwa se no ku bikuta kugira ngo isuku yawe ibe ari ntamakemwa.

Uburyo bwiza bwashyizweho bwo gukusanya amata bituma aborozi b'inka aho baba baherereye hose bibasha kubagirira umumaro kukoo umukamo wabo utagipfa ubusa nka mbere ubu babonye uko babibyaza umusaruro.

Amata ni ikinyobwa kiza kigira intungamubiri zifasha umubiri w'umuntu abe umwana cyangwa umuntu mukuru. Aho waba uyacururiza yiteho uyagirire isuku ihagije, kugirango uwuje akugana ntagire imfunwe.

Ntibikiri ngombwa ko kugira ngo ubone amazi meza yo kunywa mu rugo ubanza kuyateka,. hari inganda zitunganya amazi meza zikayashyira mu macupa yabugenewe, wabegera ukayagura ukayashyira mu rugo ukagabanya umwanya watakazaga uri gucanira amazi.

Yawurute ni ikinyobwa cyiza ku bana ndetse no ku bantu bakuru, gikorwa hifashishijwe uruvange rw'amata, isukari, inkeri cyangwa se bakavanga amata isukari n'inanasi.

Uri kurugendo ukeneye amazi yo kunywa ku mafaranga yose waba ufite, hari ahantu hagiye hari amazi ya jibu ahantu hatandukanye, wagenda ukishyura igiceri bakaguha amazi yo kunywa urugendo rugakomeza.

Ibyuma bikusanyirizwamo amata, bituma atangirika kuko mbere bitabagaho byatumaga umusaruro mwinshi w'amata wangirika, bityo bigatuma aborozi bahura n'ibihombo.

Ni byiza yuko utaka ahantu ukorera wifashishije amabara atandukanye ndetse ukavangamo n'ay'ibitenge kuko bituma hagaragara neza, uje kuhanywera amata ukamwakira umuha mu kirahure cyabugenewe.

Mu muco wacu wa Kinyarwanda ni byiza ko ufite inka utabura ibyansi mu rugo, kuko bigufasha kubuganirizamo amata neza ukayabika mu buryo bwizewe ahantu hatekanye kandi agakomeza ndetse ntagire ikintu aba.

Ufite igishoro gito watangirira ku bintu bikeya kandi nawe ugacuruza ukunguka; rangura amandazi, urangure amagi, urangure imineke, urebe ahantu wabitereka kandi haca abantu benshi uzabona abakiriya ejo wongereho n'ibindi.

Ibikoresho babugenewe byo kubikamo amata, ni ibicuba habaho n'ibiri mu ngano ntoya, ku buryo bitewe n'umusaruro ubona w'amata, wajya ku isoko, ukagura igihwanye n'iyo ngano ubona.

Niba ucuruza ni byiza yuko ibyo ucuruza ugenda ushyiraho ibiciro kugira ngo umukiriya niyinjira amenye ngo igicuruzwa cyawe gicuruzwa amafaranga aya n'aya atirirwe abaririza cyangwa se ngo ahendwe.

Niba ushaka ko ahantu ukorera hagaragara neza kandi haboneka ko hari isuku, ibikoresho ukoresha bishyire ahantu hatandukanye, buri bwoko ugende ubushyira ahantu habwo kandi urambure n'impapuro zabugenewe z'isuku kugira ngo ubashe kubishyiraho, bikomeze bigire isuku.

Murakaza neza hano muhabwe ibicuruzwa by'uruganda inyange rutunganya ibikomoka ku mata, ukeneye ibindi bisobanuro hamagara telefone igendanwa zeru karindwi umunani gatandatu gatandatu kane kabiri kabiri gatandatu gatandatu.

Igihe cyose ukora ubucuruzi bukomoka ku matungo cyane cyane amata ni ngombwa ko wifashisha ibicuba byabugenewe, kugira ngo ubone uko ubika uwo musaruro bikoroheye kandi kuburyo bwizewe ubone n'uko uwugeza ku bakiriya bawe nta kibazo wahuye nacyo.

Isuku ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi igihe uri gutunganya ibyo kurya cyanga ibyo kunywa , gerageza ukoreshe isuku ihagije kuko bizarinda abo ubuhereza nawe ubwawe kuba byabatera indwara ikomoka ku mwanda.

Ukeneye kunywa amata, reba ahantu heza, wicare bakwakire, kuko mu muco wa kinyarwanda turabizi, n'utabizi abyumvireho ko kunywa amata umuntu ahagaze kizira kikaziririzwa.

Niba ugiye gupanga ibicuruzwa byawe muri etageri, bipange ku buryo butandukanye ukurikije ubwoko bwa buri gicuruzwa kugira nujya kubihereza umukiriya, bikorohere umenye aho buri kimwe ugisanga.

Mu gihe ucuruza amata, shaka itaburiya nziza yabugenewe kandi ushake n'akantu wakinga mu mutwe, kugira ngo hatazagira ubwo utokoza amata ugiye guha abakiriya.

Mu gihe cyashize kubona uko ubika umusaruro w'amata byaragoranaga ariko ubu hari ibyuma by'uruganda nyanza rukusanya amata y'abaturage rukayabyaza umusaruro kandi nabo bakabona inyungu.

Impapuro z'isuku zagenewe gukoreshwa ku meza, ni ngombwa nazo ko zitabwaho, zikabikwa ahantu heza kandi hasukuye, kugirango ugiye kurwifashisha adasanga narwo rwamubera intandaro yo kuba ariye umwanda.

Amata ya Nyanza ni meza bafite ahantu wicara bakakwakira, waba wihuta hari n'ayo bafunze mu bikoresho byabugenewe, barayaguha ukayatwara, ari mu ngano zitandukanye, bafite na yawurute kandi byose ni byiza.

Niba watembereye ntiwibagirwe gushyira abo wasize murugo amata. Hari n'ayagiye yongewemo na shokola kugira ngo uburyohe bwayo burusheho kwiyongera. Ibuka ko hari ingano zitandukanye kugira ngo ubashyire bijyanye n'ubushobozi ufite.

Iyo uguze ibicuruzwa, nk'imitobe cyangwa amazi, cyangwa amata, utari bubinywere aho biguriye, hari uburyo bwo kubigufungira mu bipapuro byabugenewe, ukabijyana bifite umutekano.

Hera ku gishoro gikeya, nawe ube umucuruzi. Gura ifarini, ugure amagi, ugure isukari, hanyuma ugure karayi, ubundi ukore amandazi, ushyire ku isoko, ejo nawe uzahindurirwe ubuzima.

Amagi ni ikiribwa cyiza, cyifashishwa mu buryo butandukanye, yaba mu mafunguro ya mu gitondo cyangwa se n'ayandi masaha, ni meza yujuje intungamubiri, cyane cyane ku bana ndetse n'abantu bakuru na bo ntibahejwe, byibuze umwana mutoya we agomba guhabwa igi rimwe buri munsi.

Ni ingenzi kwishyura umusoro igihe kitararenga kugira ngo utazajya ucibwa amafaranga y'amande igihe watinde kwishyura. Ni byiza ko utarenza itariKi yagenwe yo gutanga umusoro wawe .

Tuzirikane ko ibyago bidateguza niba ufite ibyo ukora bishakire ubwishingizi kugira ngo nuhura n'ikibazo gitunguranye uzabone ikikugoboka hanyuma iterambere ryawe rikomeze.

Gerageza nawe ukoreshe ubu buryo bwiza bwizewe bw'ikoranabuhanga bwo kwishyura ukoesheje MTN, hari imibare ukanda ugakurikiza mabwiriza ukishyura nta amfaranga uciwe.

Sosiyete y'itumanaho ya Eyateri, ikomeje kwegera abakiriya babo. Ibasobanurira uburyo batsindira ibihembo barushaho gukoresha Eyateri mani, bagahabwa ibihembo bitandukanye; harimo no korozwa inka.

Igihe waba ukeneye kugura ama inite, egera utuzu tw'ubucuruzi emutiyene yagiye ishyira mu duce two hirya no hino mu gihugu ahantu hatandukanye, bagufashe ubashe guhamagara inshuti zawe uziganirize.

Ushobora kwishyura ibicuruzwa bitandukanye ukoresheje ikoranabuhanga wifashishije umurongo w'itumanaho wa MTN, ni byiza yuko wegera abakozi babo bakagufasha mugihe hari icyo udasobanukiwe dore ko bari hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu.

Igitabo cyuzuzwamo umwirondoro w'ibanze w'umukiliya waje kwaka serivise za Mtn, kugira ngo hatazagaragara ikindi kibazo akabura uko yagikurikirana, ni ingenzi ko byuzuzwa.

Kugira ngo umenye neza ko amayinite waguze yageze kuri telefone yawe. Hari imibare emutiyene yangennye ukanda ukareba neza koko niba yagezeho, akanyenyeri ijana na mirongo itatu na rimwe urwego ukemeza ukareba.

Ubu ni uburyo bwo kunoza serivise, abacuruzi benshi bahawe nimero zibaranga, umuguzi acishaho ubwishyu bw'ibyo yafashe, nta amafaranga y'ikiguzi yandi aciwe. Akanze akanyeyeri, ijana na mirongo idandatu na gatanu, akanyenyeri, gatatu, urwego.

Ibirango bya airtel money ,bigaragazwa n'amabara y'umweru n'umutuku egera aho bakorera bagufashe ku kibazo cyose waba ufite kandi ubashe kwishyura ibintu bitandukanye harimo amazi n'umuriro wohererezwa n'abantu amafaranga ugura namayinite.

Ngirango nkwibutse ko emutiyene igera kure hose hashoboka, ubu bari gutanga kode kubacuruzi kugirango abakiriya baza babagana bajye bishyura ntayandi mafaranga baciwe.

Inzu y'ubucuruzi itangirwamo serivise z'itumanaho za emutiyeni urahasanga abakozi beza bambaye ibirango bya emutiyeni bakwakirana urugwiro simukadi yawe ibaye yafunzwe, ukeneye kugura simukadi nshyashya baragufasha.

Ni ingenzi cyane igihe ugiye koherereza umuntu amafaranga, kubanza kureba neza mbere yo gushyiramo umubare w'ibanga ngo wohereze. Ukareba amazina y'uwo ugiye koherereza na nimero ko ari byo, kugira ngo utaza kwibeshya ukayayobereza ahandi hantu.

Shimira umurongo wa emutiyeni kuko bagifasha abantu benshi kuva mu bukene ibaha akazi, bakabasha gutunga imiryango yabo, bakabasha kwishyurira abana babo amashuri, yewe bakabasha no kugira ibindi bintu bigezaho mu iterambere.

Ukoresheje telefone yawe ngendanwa wakwishyura icyo wafashe ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani n'akabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe akanyenyeri ugashyiraho kode y'umucuruzi bitewe n'aho waruheruherereye wabifatiye ubundi ukishyura.

Uahaka kugura interineti kandi akanyenyeri gatatu kane gatanu akanyenyeri rimwe urwego barakwereka urutonde waba ukeneye iz'umunsi umwe, iz'icyumweru cyangwa iz'ukwezi yewe niyo waba ushaka iza buri saha.

Ubu sosiyete y'ubwishingizi yitwaga sorasi ntikibaho, ahubwo yahinduriwe izina yitwa saniramu; badufitiye n'uburyo bwiza bwo kwishyura dukoresheje ikoranabuhanga rya MTN.

Hari igihe waba wabuze uko woherereza umuntu amafaranga, ari abyo umwishyura cyangwa se ari ayo wamugeneye, egera akazu ka emutiyene woherereze amafaranga abo ukeneye bose.

Akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri kabiri urwego winjiremo maze wigurire interinete ku mafaranga waba ufite ayariyo yose uhereye ku gihumbi kuzamura.

Emutiyeni yashyiriho abakiriya bayo uburyo bwitwa wikisondeka kanda akannyeri gatatu kane gatanu akanyenyeri umunani urwego uryoherwe n'inyongera ya interineti.

Iyo ufite amafaranga kuri terefone uyakeneye kuyafata mu ntoki, wegera umukozi ubishinzwe ukorera MTN akagufasha akayakuraho kuri terefone akayaguha mu ntoki, ni uburyo bwiza bukoreshwa kandi bufasha abantu benshi.

Egera umucuruzi w'itumanaho wa emutiyeni aho waba uherereye hose agufashe ku kibazo waba wahuye nacyo muri serivise zabo batanga yaba iza mobayilo mani cyangwa izo kugura amayinite n'ibindi.

MTN, igenda itera inkunga ibikorwa byinshi bitandukanye muri iki gihugu cyacu cy'U Rwanda, itanga imisanzu mu bikorwa bimwe na bimwe, haba ibyo kwamamaza, haba ibyo guteza imbere urubyiruko, mu mikono no mu myidagaduro.

Inzu y'ubucuruzi yifashishwa mu gutanga serivisi za mtn aha niho wabareza kugira ngo umenye ibicuruzwa bya serivisi y'itumanaho ya MTN ugahabwa ibisobanuro bikunogeye.

Ishyura ukoresheje terefone yawe. Igihe ukoresha serivisi z'itumanaho za Emutiyeni, terefone waba ufte yose yaba agatoya cyangwa se inini; werekwa uburyo wakishyura icyo ugiye kugura ukoresheje terefone ufite.

Kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe urwego ukurikize amabwiriza, wishyure ukoresheje itumanaho rya MTN rizagufasha muri service zose waba ukeneye.

Abakozi bakorera sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, ubazababwirwa n'uko baba bambaye ibirango by'iyo sosiyete, abakorera ku mihanda harimo ababa bambaye amajere yanditseho Emutiyene, kugira ngo batange izo serivise.

Igihe cyose ugiye kohereza cyangwa kwishyura amafaranga, ukoresheje terefone ngendanwa yawe, ibuka kureba umubare w'amafaranga wanditsemo, ko ari yo washakaga kohereza kandi urebe neza n'amazina y'uwo ugiye koherereza ko ari yo.

MTN yagiye ishyira ahantu henshi hatandukanye utuzu twayo kugira ngo buri muntu wese aho yaba aherereye abashe kubona serivisi batanga bimworoheye, kandi harimo n'iya MobileMoney ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego ukaba wagura ama inite n'ibindi bitandukanye.

Umucuruzi hitamo uburyo bwiza Emutiyeni yashyizeho bwizewe, urajya wishyurwa mo n'abakiriya baje bakugana, shyira ahantu habugenewe imibare Emutiyene yatanze, ushyireho n'umubare wawe baguhaye bazajya bakoresha bakwishyura, kugira ngo ubone amafaranga n'abatayafite mu ntoki baze baguhahire.

Abahagarariye emutiyeni hirya no hino mu gihugu, baba bafite aho babarizwa bagaragaza ibirango by'iryo shami bakorera rya emutiyeni, bakagira ibyapa bamanika kugira ngo bigaragaze igiciro umuntu acibwa agiye kohererereza undi amafaranga kandi bakagira n'ikayi bandikamo umwirondoro w'uwaje abagana.

Hari uburyo bwizewe bwo gutwara amafaranga kuri telefone yawe, aho kugirango uyatware mu ntoki ugende ufite impungenge ngo bayakwiba, kuko emutiyene yashyize hirya hino uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga. Bityo rero mubike amafaranga yanyu ahantu hizewe kugirango muyakoreshe bitabagoye.

Igihe wifuza kohererereza inshuti yawe cyangwa umuvandimwe amafaranga egera akazu ka emutiyeni bagufashe kohereza ayo mafaranga aho yaba aherereye aramugeraho.

Gera ahakorera umukozi wa mtn aho ariho hose agufashe ku bijyanye n'ikibazo waba wahuye nacyo. Yaba simukadi yawe yapfuye, cyangwa se umubare wawe w'ibanga wawufunze.

Niba ukoresha umurongo w'itumanaho wa Mtn igihe ugize ikibazo wikihererana egera abakozi babo bakorera hirya no hino bagufashe gukemura icyo kibazo kandi ku buryo bunoze.

Aho wajya hose uzahasanga serivise za MTN ntago ari mu Rwanda gusa no mubindi bihugu zirahatangirwa igihe waba wagiyeyo rero nugira ikibazo uzabegere naho bazaguha ubufasha bukwiranye n'ikibazo ufite.

Dufasha mu bijyanye n'itumanaho gusa, kuko bagira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu bafasha abahanzi, bategura ibitaramo bisusurutsa urubyiruko, bishyurira abaturage ubwisungane mu kwivuza, bagabira abatura ge inka kugira ngo banywe amata bagire ubuzima bwiza.

Emutiyeni yageneye abakiriya babo, bishyura bakoresheje uburyo bwabo bw'ikoranabuhanga. Ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu urwego, babageneye ibihembo bitandukanye. Komeza uhahe ubone ibihembo byinshi, winshyure ukoresheje ikoranabuhanga.

Kanda akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego cyangwa akanyenyeri gatatu kane gatanu urwego maze utsindire ibihembo byinshi emutiyene iha abakiriya bayo.

Bitsa cyangwa ubikuze amafaranga wifashishije serivise y'itumanaho ya Emutiyeni mobayiro mani, cyangwa uyoherereze undi muntu uri kure, bitabaye ngombwa ko ufata urugendo rurerure ngo umusange aho ari ubone kuyamuha.

Ikigo k'itumanaho cya emutiyeni cyashyizeho uburyo bwiza bwo gukoresha interineti ya fogi ryoherwa n'umuvuduko wayo aho waba uri hose wayisanga no muri egisipo bari kuhakorera.

Ahatangirwa serivisi z'itumanaho za emutiyene haba hari abakozi babo bambaye ibirango bya emutiyeni bashinzwe kwakira buri wese uje abagana bitewe n'ikibazo afite bakamwakira kandi bakamufasha.

Mu rwego rwo kunoza serivise emutiyene itanga, bageza n'igihe bagafata umwanya bakagenda kure mu byaro bya kure kugira ngo begere abakiliya babo nabo bahari kugira ngo babashe kubafasha ku bibazo bagize bijyanye na serivise zabo batanga.

Hari ubwo waca ahantu ukeneye guhaha, ukagira ngo udafite amafaranga mu ntoki ntabwo uri bubone ibyo warukeneye. Biroroshye, igihe uyafite ku ikarita cyangwa uyafite kuri telefone yawe njyendanwa, egera abacuruzi baguhe ibyo ukeneye.

Abakorera ubucuruzi bwabo mu masoko aciriritse na bo ntibatanzwe bifashishije emutiyene, aho ukoresha ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani urwego kugira ngo igihe udafite amafaranga mu ntoki na bo ubashe kubahahira.

Emutiyeni ntabwo ari ugushishikariza abakiriya babo gukoresha ikoranabuhanga gusa bishyura ibyo bahashye, ahubwo bazanye n'ibihembo bitandukanye kugira ngo barusheho gufata neza abakiriya babo.

Ushobora kuba ufite igishoro ugatekereza, ugasanga wabuze ikintu wakora. Egera Emutiyeni bagufashe gushinga bizinesi aho ari ho hose; hanyuma ubabere umufatanyabikorwa kandi nawe uzabona inyungu.

Aho uzabona iki cyapa uzamenye ko ari ikirango cya emutiyene sosiyete y'itumanaho ikorera hano iwacu mu Rwanda batanga serivisi zitandukanye harimo kugurisha amaterefone, kugurisha amasimukadi n'ibindi n'ibindi

Ushobora gutekereza yuko bidashoboka ariko emutiyeni yaragikemuye, igihe ikinyabiziga cyawe gishizemo ibitoro egera aho babicururiza maze wishyure ukoresheje emutiyeni niba wari uyafite kuri terefone ukibwiraga ko bitakunda ubu biroroshye.

Hari igihe ifatabuguzi rya tereviziyo rishobora kugushirana, ugatekereza uko wabigenza ariko niba ufite emutiyene mobayiro mani urishyura kandi bitakugoye ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani nakabiri ugakurikiza amabwiriza.

Egera ahatangirwa serivisi za MTN, woherereze amafaranga inshuti zawe, woherereze amafaranga abavandimwe bawe, wishyure amazi, wishyure umuriro, wishyure ibicuruzwa, wishyure imisoro, ubicishije hano mu itumanaho rya serivisi ya MTN itanga.

Mu rwego rwo kunoza serivisi emutiyeni itanga, yagiye ishyiraho uburyo bwo kumanika ibiciro bigaragaza amafaranga ugiye kohereza n'ayo ugomba gucibwa, kugira ngo hatabaho kwibwa hagati y'uwaje kohereza amafaranga. Bagena n'ahantu ugomba kwandika imyirondoro yawe yose.

Motari nawe mu rwego rwo korohereza abakiriya bawe, ni ngombwa ko wifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga; kugira ngo uwo utwaye afite amafaranga kuri terefone abone uko akwishyura kandi bitamugoye

Igihe cyose ukoresha umurongo w'itumanaho wa MTN ntuterwe impungenge n'ikibazo wahuye nacyo kuko hari abakozi beza baza aho uherereye bakagufasha gukemura ikibazo ufite muri telefone ngendanwa yawe.

Hari ikibazo emutiyeni yakemuye cyo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga. Nta mafaranga yandi ucibwa ya serivise, nk'uko hari igihe twajyaga guhaha ukishyura usabwe kurenzaho amafaranga ngo yo kubikuza cyangwa yo gukata.

Emutiyene ikomeje gutanga ibihembo bitandukanye ku bacuruzi, bakomeje kwishyura bifashishije ikoranabuhanga, harimo amatelefone, harimo amataburiya, harimo ingofero, harimo imipira, n'ibindi bihembo byose bari kugenda baha abakiliya babo.

Mu Rwanda hari serivise y'itumanaho ihamaze imyaka myinshi ihakorera ya Mtn. Ubungubu bakomeza kugenda bagura imirongo yaho kugira ngo ukeneye iyi serivise ige yihuta no kubakoresha interineti bagenda bongera umuvuduko kugira ngo byihute.

Ubu birashoboka ko wafata amafaranga wari ufite kuri MTN Mobile Money, ukayoherereza umuntu ufite Airtel Money, biroroshye kandi birahendutse.

Buri wese wemeye gukoresha iri ikoranabuhanga, emutiyene yamugeneye umubare yihariye nk'umucuruzi kugirango umukiriya abonye uje kumwishyura, awifashishe acishaho ubwishyu bw'ibyo yafashe.

Bakorera sosiyete y'itumanaho rya MTN aha niho wabariza serivisi za MTN mobile money n'ubundi busobanuro bwose washaka kumenya ku bijyanye na serivisi z'itumanaho za MTN.

Ntuterwe impungenge n'uko wahasanga abantu benshi uje kwaka serivisi za emutiyeni kuko dufite abakozi babihuguriwe uko mwaba mungana kose turabakira tukabaha serivisi zijyanye n'ikibazo cyose mufite mwese kandi tukabageraho.

Ishyura ibicuruzwa wafashe ukoresheje akanyenyeri ijana na mirongo itandatu nagatanu akannyeri gatatu urwego, ahantu hose urahasanga kode bagiye baha abacuruzi zitandukanye, nta amafaranga y'ikiguzi ucibwa.

Niba utari wakanda iyi mibare ngo nawe uhahe ukoresheje ikoranabuhanga, waracitswe. Kanda *165# ukurikize amabwiriza hanyuma ubone ibihembo bitandukanye abandi bari guhabwa.

Kanda akanyenyeri, ijana na mirongo inane na kabiri, urwego, winjire, ubone serivise za banki, aho ushobora kohereza amafaranga, ukagura, ukishyura, ukareba konte zawe, ukazigama cyangwa se ukaniguriza.

Uburyo bwiza bwashyizweho na emutiyene aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatanu urwego, ugakurikiza amabwiriza baguhaye ukabasha kubika amafaranga kuri terefone yawe ukizigama.

Ushobora kwishyura ukoresheje serivise z'itumanaho za MTN cyangwa ukoherereza umuntu umwe cyangwa besnhi amafaranga akabageraho utavuye aho uri ngo ubasange aho baherereye.

Emutiyeni iri kugaragaza uburyo bushya wakoresha wishyura ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri gatatu urwego, ukishyura ifatabuguzi rya televiziyo, ukishyura amazi, ukishyura imisoro, n'ibindi...

Igihe cyose ugiye guhaha gurira ahantu hizewe kuburyo igicuruzwa uhakuye kiba cyujuje ubuziranenge, kandi wibuke kwaka inyemezabwishyu y'ikoranabuhanga kandi wanishyura wifashishije emutiyene mobayiro mani.

Igihe wishyuye ukoresheje Emutiyene, kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode y'umucuruzi urwego ubundi urebe ko ubona amazina ye ubone gushyiraho amafaranga ntayandi mafaranga y'ikiguzi ucibwa.

Hari abatwara moto biyemeje kubagezaho ibiribwa aho waba uherereye hose hamagara babikugezeho kandi mu buryo bwihuse.

Niba ufite umushinga w'ubucuruzi runaka ukora gerageza wibuke gusabana n'abakiriya bawe kuko nibo bantu batuma ugera aho ugeze, badahari nawe ntago ibyo ukora byakomera.

Ibintu byaroroshye ushobora kuba ufite amafaranga yawe kuri MTN Mobile Money, ukayoherereza umuntu ukoresha MTN Mobile Money kandi ku giciro gisanzwe.

Utuzu dutangirwamo serivise za emutiyene tugiye turi ahantu henshi ku mihanda hatandukanye, bituma abakenera serivise za emutiyene bitabagora ko bazibonera hafi kandi byihuse.

Emutiyeni yashyize aho ariho hose hashoboka ibikorwa byayo kugira ngo abakiriya babo batazajya babura ababakira ngo babagezeho serivisi n'ubusobanuro bw'ibibazo baba bafite ku bijyanye n'itumanaho.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho za emutiyene hirya no hino mu gihugu, muzahasanga ibirango bikurikira biri muri aya mabara, umuhondo, umukara, umweru tutibagiwe n'ibara ry'umutuku, ibyo ni byo bizabikumenyesha

Uburyo MTN yashyizeho bwo kwishyura ku bantu bakoresha ibinyabiziga bagiye kunywa risansi cyangwa peteroli aho bicururizwa, bagakoresha ikoranabuhanga bakishyura ntakibazo.

Itabire nawe ugendane n'igihe, ugure simukadi ya MTN, bityo ujye ubasha kwishyura ibikorwa bitandukanye bitakugoye, nko kwishyura amazi, umuriro, kugura amayinite, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Ntibikiri ngombwa ko ukeneye guha umuntu amafaranga ukora urugendo rurerure umusanga aho aherereye kugirango uyamugezeho. Ubu emutiyeni yaragikemuye urohereza amafaranga umuntu utavuye aho uri, akamugeraho kandi mu buryo bwizewe.

Emutiyeni ifasha abantu mu buryo butandukanye aho igeza igihe igatembera iri gususurutsa abakiriya babo ikifashisha abahanzi bamwe na bamwe nabo bikabaviramo iterambere kuko barahembwa.

Ubucuruzi bw'itumanaho hirya no hino mu gihugu emutiyene yageneye abakiriya babo ibegereza serivise zabo kugira ngo bazibonere hafi bitabagoye waba ushaka amayinite cyangwa gushyira amafaranga kuri terefone yawe.

MTN, igerageza kwegera abakiriya bayo irushaho kubafasha, ibagenera ibicuruzwa byo ku giciro cyo hasi kugira ngo buri muntu wese abashe kwibonamo agire Telefone, agire serivisi zabo akoresha kuko ziba zidahenze.

Wikisondeka ubu emutiyene yaragikemuye kanda akanyenyeri gatatu kane gatanu ushyireho urwego ukurikize amabwiriza wigurire ipaki ya enterinete ikunogeye ku mafaranaga ayo ariyo yose waba ufite.

MTN mu buryo bwo gukomeza gushimisha abakiriya babo ,babateguriye ibihembo bitandukanye harimo amacupa y'amazi, imipira yo kwambara, ingofero ndetse n'amajire yo kwambara n'amataburiya wa kambara uri mu gikorwa cy'ubucuruzi.

Mtn kuva yagera mu Rwanda yahinduye ibintu byinshi habe mu buzima bw'abantu, kuko yagiye iha akazi abantu benshi batandukanye, bituma babasha kwitunga no gutunga imiryango yabo, ndetse yorohereza n'abantu kugira ngo umenye amakuru yabo.

Kanda akanyenyeri ijana na mirongo inane na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri nimero y'umucuruzi bamuhaye imuranga ya emutiyene kugira ngo wishyure ibyo wafashe, ntarwitwazo rwo kuvuga ngo wabuze uko wishyura kandi ufite amafaranga kuri telefone yawe ngendanwa.

Ishyura ukoresheje ikoranabuhanga rya emutiyene nta yandi mafaranga wishyuzwa. Kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri umubare uranga umucuruzi ugiye kwishyuraho, hanyuma ukande urwego wishyure.

Ukeneye serivise za eyateri mani cyangwa emutiyene mabayiromani wakwegera ahasize amabara y'ibirango byaho bakagufasha, emutiyene igaragazwa n'amabara y'umuhondo arimo icyapa cya emutiyene, eyateri nayo ikagaragazwa n'ikirango cy'umutuku ndetse n'umweru bishushanyije aho bakorera.

Ishyura umwenda w'ipantaro uguze ukoresheje akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, ukaza gushyiraho kode y'uwo wahahiye, kandi ntamafaranga yandi ucibwa.

Igihe wabuze simukadi yawe ya emutiyene ni byiza ko wihutira kwegera abakozi bayo ku gashami kakwegereye kugira ngo udasanga niba hari amafaranga wari ufiteho kuri terefone yawe bayatwaye.

Aho ukorera hose, muri serivise zose utanga, gerageza gusobanurira abaje bakugana, ku buryo buhagije, hatagira ugenda afite ingingimira, kandi ushake n'abakozi basobanutse bo kugufasha, kugira ngo igihe wabonye abakugana benshi batazarambirwa, barindiriye ko ubakira.

Ni byiza ko twitabira serivise z'itumanaho za MTN kuko bidufasha guhaha igihe dufite amafranga kuri telefone zacu cyangwa se kuyoherereza inshuti zacu bitabaye ngombwa yuko tubasanga aho bahereye bikatworohera natwe kugira icyo tubafasha.

Mu rwego rwo kunoza isuku mu buryo bubereye ijisho, hirya no hino mu gihugu uhasanga utuzu tw'ubucuruzi tugiye turi ku mihanda, twubatse neza, turiho ibirango bigaragaza umuco nyarwanda, mu buryo bubereye ijisho.

Emutiyeni ibafitiye uburyo bwiza bugiye butandukanye wakoresha kandi ukeneye no kubabera umufatanyabikorwa ngo ucuruze serivise zabo urabegara bakagufasha.

Serivise za emutiyeni mobayilo mani wazisanga hano hari akazu ka emutiyene, harimo umukozi wabigenewe, ushinzwe kukwakira, akagusobanurira ikibazo cyose waba uje ufite, akagufasha.

Egera akazu k'ubucuruzi ka serivisi z'itumamanaho kakwegereye, uhabwe ubusobanuro bw'ikibazo cyose waba ufite. Yaba ikijyanye na Emutiyeni mobayiro mani cyangwa Eyateri mani, baragufasha.

Emutiyene ikomeje kwita kubakiriya bayo. Kanda akanyeneyri ijana na mirongo itandatu na gatanu urwego ukurikize amabwiriza; kugira ngo nawe ukomeze guhabwa serivisi Emutiyene ikomeje kukugezaho.

Sosiyete ikorera hano mu Rwanda y'itumanaho ya Eyateri, ibafitiye uburyo bwiza wakoresha wishyura amafaranga cyangwa se woherereza inshuti zawe, cyangwa abavandimwe ukoresheje Eyateri Mani.

Ntibikiri ngombwa ko ukeneye kugura amayinite, uyashyira kuri nimero yawe, bibanza kugusaba ko ujya muri mobayilo mani ngo uyoherezeho. Ahubwo kanda akanyenyeri, ijana na moringo ine, ukurikize amabwiriza, uragera aho ugura amayinite bitakugoye.

Uburyo bwiza bwo kwishyura ukoresheje amafaranga yawe ari kuri telefone MTN yateguye, kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego kugirango wishyure ukoresheje telefone yawe.

Ihutire kuba umwe mu bakoresha serivise z'itumanaho, za emutiyeni. Ukande akanyenyeri, inaja na mirongo inane na kabiri, urwego, kugira ngo ubone uko ugura, woherereze inshuti zawe amafaranga, kandi ubashe no kwishyura amafaranga y'inguzanyo, cyangwa se unizigame.

Kanda akanyenyeri ijana na mirong'inani na kabiri, akanyenyeri gatatu urwego yishyure ukoresheje ikoranabuhanga rya emutiyeni ntayandidi mafaranga yishyuzwa ubu buryo ni bwiza kandi bworoheye buri wese.

Kanda akanyenyeri kabiri kabiri kabiri urwego, ushaka koherereza umuntu amafaranga cyangwa ushaka kugura ibindi ibintu wifashishije eyateri mani urahabwa ubusobanuro bwose.

Igihe uguze terefone ibuka no kigira simukadi ya MTN kandi ushiremo MTN mobayiro mani kugira ngo uge ubasha kwishyura ibicuruzwa bitandukanye na serivise z'amazi n'umuriro utiriwe uva aho uri.

Twitabire kwishyura dukoresheje uburyo bwizewe bwa emutiyene, kandi tubhgezwa uko abakozi bagenda batanga amabwiriza n'amahugurwa hirya no hino basobanurira abakiriya babo uko bayifashisha.

Sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni ikomeje kudabagiza abakiriya babo, bakangurira abanyarwanda cyane cyane abacuruzi kwishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bwa emutiyeni yashyizeho, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu urwego, ukishyura.

Abakozi ba MTN bagenda hirya no hino basobanurira abantu, uburyo bakwishyura bakoresheje ikoranabuhanga, bityo bikagabanya umwanya bari gutakaza bajya aho izo serivisi zitangirwa, bikaborohera nabo kugira indi mirimo bakora.

Igihe uzakenera serivise za emutiyeni wagize ikibazo uzifashishe abakozi bambaye imyenda yanditseho emutiyeni iri mu birango by'amabara yabo kugira ngo utazitabira abandi bakaba ari abatekamutwe.

Ishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga MTN yazanye, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akayenyeri gatatu ugashyiraho urwego, ukaza gushyiraho kode y'umucuruzi.

Emutiyeni yashyiriyeho abacuruzi ndetse n'abaguzi uburyo bwiza bwo kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga bityo bikagabanya ikibazo cy'abantu bajyaga babura amafaranga bayibwe cyangwa se uwo yishyuye akavuga ngo yishuye ayatuzuye.

Sosiyete y'itumanaho ya emutiyene iyo igeze igize igahemba abafatanyabikorwa bayo mu buryo bw'umwihariko babagenera ibihembo bya moto, cyangwa se iby'imodoka, amatelefone, imipira, amayinite yo guhamagara n'ibindi bitandukanye.

Emutiyene yagize uruhare rukomeye kandi rugaragarira buri wese, rwo kugabanya abantu badafite akazi, igenda ishinga utuzu tw'ubucuruzi hirya no hino, mu gihugu, ahantu henshi hatandukanye, kugira ngo urubyiruko n'abandi bose babishoboye bitabire uwo murimo, bave mu bushomeri.

Haha, wishyure ukoresheje uburyo emutiyene yashyizeho, ukanze akanyenyeri, ijana na mirongo itandatu na gatatu, akanyenyeri, gatatu, urwego, nta yandi mafaranga ucibwa ya serivise, maze ubone ibihembo bitandukanye emutiyene yageneye abakoresha ubwo buryo.

Wakoresha uburyo bw' ikoranabuhanga bwa MTN ukoherereza abantu amafaranga cyangwa nawe bakayakoherereza, igihe hajemo ikibazo wibagiwe nk' umubare wawe w' ibanga ugana ishami rya MTN rikwegereye bakawuguhindurira.

Iyo wishyuye ukoresheje uburyo bukurikira ntayandi mafaranga usabwa kurenzaho, kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri numero iranga uwo mucuruzi waguriyeho ugashyiraho urwego ubundi ukamwishyura amafaranga ajyanye n'ibyo wafashe.

Ukeneye moto mu buryo bwihuse hamagara zero karindwi umunani, rimwe zero zero zero gatatu kane ikugeze aho ushaka kandi mu butyo bwizewe.

Hari ibintu byinshi wahaha ukoresheje ikoranabuhanga, harimo ibikoresho byo mu nzu, impano wageneye abantu bawe ndetse n'ibintu abana bakenera cyangwa se abadamu nabyo wabihasanga.

Niba ukeneye guhaha gana safi babikugezeho mu buryo bwihuse, bafite abakozi beza bafite ibikoresho, moto nk'ako kanya iraba ikugezeho ikuzanire ibyo watumye byose nta na kimwe kibuzemo kandi ku giciro cyiza.

Ukeneye kohereza ibintu cyangwa se kubitumiza egera iposita, bagufashe, bafite imodoka zabugenewe, ntabwo ari zo zonyine bakoresha bafite na moto, bafite n'abakozi beza babihuguriwe.

Unyuze ku rubuga Kigure, akadomo rawa, wagezwa ho ibicuruzwa bitandukanye, ku bacuruzi bacururizwa impande n'impande, ku biciro utasanga ahandi, tubikugeza ho nta kiguzi utanze.

Igihe uhuze hari indi mirimo uri gukora cyangwa aho uherereye bitakoroheye kuhava hamagara kasha bakugezeho ibyo ukeneye aho uri utahavuye ni uburyo bwiza bwifashishwa bw'ikoranabuhanga kandi burizewe.

Gura ukoresheje ikoranabuhanga mu buryo bwizewe, kandi bugezweho wahamagara kuri nimero ikenda rimwe rimwe, rimwe cyangwa ugakanda akanyenyeri ikenda rimwe rimwe urwego bakakugezaho ibyo ukeneye.

Ni neza kwigurira imboga n'imbuto bikoresheje ikoranabuhanga hari amashami ya Nyarutarama uhamagara nimero igendanwa zeru karindwi icyenda mirongo inani na gatandatu mirongo itandatu na kane zeru zeru gatatu bakabikugezaho.

Ikigo cy'iposita kibafitiye ibinyabiziga byo mu bwoko bunini bibafasha kubagezaho ibikoresho cyangwa ibyo mwabatumwe byose nta kunyagirwa kuko izo modoka zirasakaye.

Ntibikigoranye ushobora kugura itike yawe uzitabire igitaramo muri Kigali serena hoteri ukayigura wifashishije ikoranabuhanga bityo ukazitabira igitaramo cyawe ntangorane.

Aho waba uherereye hose ibuka guhaha ukoresheje ikoranabuhanga, hamagara iyi nimero bakugezeho ibyo ukeneye, zeru karindwi umunani karindwi gatandatu zeru zeru kabiri gatandatu gatandatu.

Ubwiza bwo gutumiza ibicuruzwa uturiwe uva aho uri, harimo inyama, inyanya, igitoki imbuto, amavuta, ifarini, amafi, ugahamagara Kimironko bakabikugezaho ku buntu.

Hamagara juniya bakugezeho ibyo wabatumye mu kanya nk'ako guhumbya, kandi tugerageze twitabire twese guhaha dukoresheje ikoranabuhanga kugira ngo umwanya twakabye tujya ku masoko tube turimo gukora ibindi.

Ukeneye kugura izi nkweto waca ku rubuga www.kigure.rw ku mafaranga make cyane (ibihumbi icumi n'amafaranga magana atanu y'u Rwanda) ukambara nawe ukaberwa.

Kimironko hari uburyo bateguye bakugezaho ibicuruzwa utiriwe uva aho uri hamagara kuri Zero Karindwi Gatatu Gatanu Rimwe Gatatu rimwe gatu kane Icyenda Kabiri Kane aho uherereye babikugezeho

I Kigali hari amaduka akora ubucuruzi bwayo yifashishije imbuga nkoranyambaga z'ikoranabuhanga, sura imbuga zabo hanyuma bakugezeho ibicuruzwa bafite kandi ku giciro gisanzwe.

Niba ukeneye kongera ubwiza ku maso yawe hari utwabugenewe washyiraho hanyuma ibitsike byawe bikareshya uko ubushaka aho ugiye ukahacana umucyo ukagaragara neza mu bandi.

Ntibikiri ngombwa ko hari ibyo ukeneye, bigufata umwanya wo kujya ku isoko kubihaha, ubu cyarakemutse, hari serivise zo kubikugezaho mu rugo, wifashishije vuba vuba, ukabahamagara, bakabikugezaho, nk'uko bitwa, mu gihe kitarambiranye, vuba aha.

igihe ugiye kubaka inzu z'ubucuruzi ibuka gusiga umwanya wahazajya haparikwa ibinyabiziga haba ibyo abaje kuhakorera cyangwa se nabaje babagana kugirango biborohere guhaha ibyo baje gushakira aho ngaho babone nuko babitwara bitabagoye.

Wakwifashisha iduka akadomo rawa, ukagura cyangwa ukagurisha ibyo ufite. Waca no kuri nimero yabo ya watsapu, zeru karindwi gatatu, karindwi kabiri, gatatu karindwi, gatanu gatatu umunani ugacuruza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingendo, cyashyizeho uburyo bunoze, bwafasha buri muntu wese utega ikinyabiziga kwishyura amafaranga kwiranye n'urugendo yakoze, aho kugira ngo ahendwe.

I Kigali mu Rwanda hari isoko rikugezaho ibicuruzwa watumije aho uherereye hamagara zeru karindwi umunani kanindwi icyenda umunani kabiri gatandatu zeru zeru wihahire.

Ukeneye amafunguro uri murugo iwawe cyangwa wibereye aho ukorera, wahamagara juniya fudu, bakakugezaho ibiribwa kandi bitunganyije kuburyo bunoze kandi bwujuje ubuziranenge.

Tumiza imbuto cyangwa imboga bimeze neza babikugezeho aho uherereye harimo pawavuro z'umutuku ndetse n'iz'umuhondo, urusenda, inyanya, amashu y'umutuku, pome n'ibindi bitandukanye.

Ntugaterwe impungenge no guhaha wifashishije ikoranabuhanga kuko na ho iyo ibiciro byagabanutse na bo baragabanya, kandi hari n'igihe bashyiraho igihe cyo kugabanyiriza abakiriya babo ibiciro haba ku masakoshi, haba ku makoti.

Ku ihaha akadomo ra wa uragezwaho ibyo watumije byose cyangwa ugahamagara kuri zeru karindwi, umunani, umunani, makumyabiri n'icyenda, cumi na kane zeru kabiri.

Injira mu ikoranabuhanga kugira ngo igihe ukeneye amafunguro akugereho mu buryo bwiza kandi bwizewe kandi bwihuse atunganyije neza kandi ameze neza n'igihe ubonye abashyitsi bigutunguye nabwo ubashe kubakira.

Hampagara cyangwa wabandike ubutumwa wibereye iwawe mu rugo cyangwa aho ukorera utumize ibicuruzwa ukeneye cyangwa ibintu ukeneye guhaha babikugezeho aho uherereye utiriwe uhava.

Online market iragufasha kukugezaho impano, hari uwo wateguye kuyiha nta mpamvu yo kugira urwitwazo ngo habuze uko ujya kuyishaka, arayikugezaho aho waba uherereye hose kandi ku giciro cyiza.

Igihe hari ibyo ukeneye mu buryo bwihuse hamagara Vubavuba babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu, ntago batinda kandi babizana mu ku buryo bufite umutekano.

Urashaka ibicuruzwa wibereye iwawe mu rugo nk'imboga n'imbuto, hamagara zeru karindwi umunani gatanu kane gatatu gatanu karindwi kane kane, babikugezeho aho uherereye.

Nta mpamvu yo kwicwa n'inzara ubaye urwaye cyangwa wabuze uko utegura amafunguro, hamagara utumize kuri RUSH FOODS bakugezeho ibiribwa mu buryo bwiza kandi biteguye neza aho waba uherereye.

Ufite imodoka cyangwa inzu ugurisha kanda hano wivuganire n'abakiriya, mu masaha makumyabiri n'ane kuri make wivuganire na ba nyirabyo.

Ukeneye ko ibyo watumye byakugeraho ako kanya, hamagara vuba vuba ubabwire urutonde rw'ibyo ukeneye byose, babikugezeho aho uherereye utiriwe uhava ngo utakaze umwanya nawe ube uri gukora ibindi.

Igihe waba ufite imirimo uhugiyemo kandi hari ibyo ukeneye guhaha, wakifashisha ikoranabuhanga bakakugezaho ibikoresho byose waba ukeneye, yaba ibyo mu nzu cyangwa se n'ibindi byose waba ushaka.

Niba udashaka kugorora imyenda inshuro nyinshi ifashishe utwuma cyangwa se uduti twabugenewe wamanikaho imyenda yawe ukayigorora kugira ngo igihe cyose ugiye kuyambara ntibigusabe kongera kuyitera ipasi.

Ntugirengo serivise zitangirwa mw'ikoranabuhanga harimo kuba haribyo watumye ngo babikugezeho aho uherereye vuba vuba ntago ibikorera m'umugi wa kigali gusa no muntara naho yagezeyo, waba uri bugarama naho baragufasha bakabikugezaho aho uherereye.

uUkeneye guhaha waca kuri uru rubuga, ugakoresha iyi myirondoro, ugatumiza ibicuruzwa byose waba ukeneye, ntugire impungenge kubikugezaho ni ubuntu, ukabona ibicuruzwa byawe byose uko wabitumye mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Igihe cyose ugiye guhaha wifashishije ikoranabuhanga, ntuzibagirwe gutuma ibi bikurikira; inkweto, amakanzu, kugirango wambare kandi use neza uberwe. Kandi wibuke no gutuma utwuma tuyungurura amajwi ducomekwa mu matwi.

Korehsa uburyo butandukanye wihahira ibicuruzwa byose ukeneye mu mujyi wa Kigali ukoresheje ikoranabuhanga, si ngombwa ngo utege ujye mu isoko urabihaha wifashishije ikoranabuhanga bakabikugezaho aho waba uhererye hose.

Niba hari ibintu ukenye ko bikugeraho hamagara vuba vuba babikugezeho mu buryo bwizewe kandi bwihuse, bakorera aho ariho hose mu gihugu bafite abamotari beza kandi bakorana umurava.

Mu Rwanda hari ibigo byinshi bikorera ubucuruzi ku ikoranabuhanga hamagara zeru karindwi umunani cumi na gatatu zeru umunani umunani umunani umunani bakugezeho ibikoresho bitandukanye.

Ihahire inkweto nziza uciye ku rubuga wawawa akadomo ra wa ikikugezaho muri kigali ni ubuntu aho waba uherereye, ari inyuma ya kigali ni amafaranga igihumbi gusa kikakugeraho.

Ibyo ukeneye muburyo bwihuse utiriwe uva aho uri, hamagara poza babikugezeho bafite moto zabugenewe kandi zihuta mukanya nk'ako guhumbya, baba babikugejejeho byose uko wabitumye.

Ifashishe ikoranabuhanga utumiza ibyo ukeneye vubavuba irabikugezaho aho waba uherereye wahamagare cyangwa ubandikire barabikugezaho mukanyaya nk'ako guhumbya kandi birizewe.

Shakisha serivisi, kanda hano ubone serivisi zose z'ubukerarugendo cyangwa ikemezo cy'uko uri ingaragu, cyangwa serivise z'ubutane nazo urazihabwa.

Ntuzatungurwe igihe uzatumiza ibintu wifashishije ikoranabuhanga, vubavuba ikabikugezaho bizanywe n'umukobwa kuko nabo basigaye bazi gutwara ibinyabiziga kandi mu buryo bwiza.

Hamagara yego moto bagutware bakugeze aho ugiye, utekanye. Ntabwo bikiri ngombwa ko uvuga ngo wabuze ikinyabiziga kigukura aho waba uherereye. Bahamagare baze bahagusange, bakugeze aho wifuza kugera.

Ushobora kuba wabuze uko ugera ku isoko ngo ujye kwihahira imbuto cyangwa se imboga, hamagara babikugezeho ku buntu kandi ku giciro nk'icyo n'ubundi wari bujye kukigura ku isoko babigusangishe aho uri kubikugezaho ntakiguzi bakwaka.

Hamagara zeru, karindwi, umunani, umunani, umunani, gatatu, karindwi, zeru, mirongo itatu na gatatu, ubone ibicuruzwa byose aho byaba biri hose mu mahanga cyangwa uce ku mbuga nka Ali Baba akadomo com, babikugezeho aho uherereye.

Ukeneye kugura hamagara ku buntu iyi nimero, ikenda rimwe rimwe rimwe cyangwa wohereze ubutumwa bwawe ukoresheje nimero iri kuri watsapu zeru karindwi mirongo inani magana ane mirongo ine magana atanu makumyabiri na kabiri wanakanda akanyenyeri ikenda rimwe rimwe urwego.

Amandazi meza cyane yitwa Urwibutso, afite uburyohe budasanzwe, akorwa n'uruganda rwitwa Nyirangarama, rwa SINA Gerard, warusanga i Rurindo.

Ibiribwa gusa n'ibinyobwa bitumizwa hifashishinjwe ikoranabuhanga n'imyambaro y'abadamu nayo iraboneka ugatumiza rwose bakabikugezaho nimero zose ukeneye barazikoherereza.

Ushobora kuba utekereza ko kugura wifashishije ikoranabuhanga hari abo byagenewe ariko nawe uyu munsi wabikora ifashishe imbugankoranyambaga zitandukanye nawe wihahire bitewe nibyo ukeneye babikugezeho.

Vuba vuba ikoresheje ikinyabiziga cya moto, irakugezaho ibyo ubatumye mu buryo bwhuse kandi bwizewe. Bafite ibikoresho babikamo ibyo ubatumye, ku buryo imvura yagwa ntakintu byaba.

Kasha irakugezaho ibikoresho by'isuku n'ubuzima kanda akanyenyeri icyenda rimwe rimwe urwego cyangwa uhamagare ku icyenda rimwe rimwe rimwe cyangwa wandike kurubuga wawawa akadomo kasha akadomo rawa.

Hari ibyo ukeneye ko bakugezaho aho uherereye, hamagara icyenda, rimwe, rimwe, rimwe, Kasha babikuzanire, babikugezeho cyangwa ubandikire ku rubuga rwabo www. kasha.rw

Igihe cyose twitegura kwizijiza umunsi mukuru wa noheli, tuzirikana y'uko umukiza wacu yatuvukiye. Ni ngombwa y'uko ugura ibikoresho n'imitako byuwo munsi ukabishyira mu rugo iwawe.

Ibyo waba ukeneye byose vuba vuba irabikuzanira aho uherereye icyo usabwa n'ukubahamagara cyangwa se ukabandikira ku mbuga nkoranyambaga zabo hanyuma bakakugezaho ibyo watumye kandi byihuse.

Impapuro nziza kandi zizewe zujuje ubuziranenge z'isuku zifashisha n'abagore cyangwa n'abakobwa igihe bagiye imugongo ni muzikoreshe zirizewe kandi zirahendutse.

Bigaragara ko hari uburyo bwo kugura no kugurisha wifashishije ikoranabuhanga haba mu gihugu imbere cyangwa inyuma, wahitamo aho wakorera ubucuruzi bwawe cyangwa se aho wagurishiriza ibicuruzwa byawe.

Birashoboka ko wakwifatanya n'abandi bacuruza ku mbugankoranyambaga mu gakora itsinda, mwese mukabasha gucuruza buri wese akazana ibicuruzwa bye kandi byose bikagurwa bitewe n'byo umukiriya akeneye.

Hari imbuga nyinshi wacaho ukeneye guhaha wifashishije ikoranabuhanga harimo urwitwa amazon, aple, Samusange, puma, alibaba ndetse n'izindi.

Hari moto zabugenewe zikugezaho ibicuruzwa watumije aho waba uherereye. Hamagara MIGRO bakugezeho ibicuruzwa watumije kuri zero karindwi umunani karindwi gatandatu zero zero umunani mirongo irindwi.

Igihe ukeneye kwirira shokora, wayitumiza wibereye aho uherereye, bakayikugezaho, wifashishije ikoranabuhanga. Kandi ukeneye n'inyama zitunganyije mu buryo ubwo ari bwo bwose ushaka, na zo wazituma, bakazikugezaho aho uherereye.

Ukeneye gutumiza ibontu wibereye iwawe mu rugo hamagara vuba vuba babikugezeho, barangwa n'imyambaro irimo amabara y'icyatsi n'ibyo batwaramo ibyo bakuzaniye biri mu mbara y'icyatsi byanditseho vuba vuba.

Witashishije ikoranabuhanga bizagufasha kuko uzahabonera ibintu byinshi bitandukanye hanyuma ubitumirize rimwe byose babikugezeho yaba amasakoshi y'abagore, inkweto zamasandari, imisatsi y'abagore ndetse n'utwuma twongera amajwi ducomekwa mu mwatwi n'ibirungo by'abagore bisiga nabyo uzabisangaho byongera ubwiza.

Kugira ngo habeho kunoza serivisi ijyanye no guhaha abantu bifashishije ikoranabuhanga, Vuba vuba yashyizeho ibinyabiziga bizwi nka moto byihutisha ibicuruzwa watumye bikakugeraho mu buryo butarambiranye.

Mu gihe ukeneye ibintu ugura ushaka ko bikugeraho vuba vuba egera ke efu si bagufashe birakugeraho mu buryo bwihuse kandi bu bidatinze izi serivisi zirizewe.

Tunganya neza umusaruro wawe w'ibitoki kugira ngo n'uwugeze ku isoko mpuzamahanga uzabashe kubona amafaranga ari ku giciro cyo hejuru nawe bikubyarira inyungu mubindi ukora.

Hari aba motari babugenewe, bo gutwara amafunguro bayageza ku bakiriya bayasabye, murumva rero ko guhahira ku mbugankoranyambaga ntako bisa, twitabire gukoresha ikoranabuhanga twese bizatugirira umumaro.

... gukunda ikintu wabonye ku mbuga nkoranyambaga, ukibaza uburyo ki cyakugeraho. Aho ariho hose cyaba giherereye, cyakugeraho, ifashishe ikoranabuhanga ugitumize bakikugezeho mu gihugu icyo ari cyo cyose, waba uherereyemo.

Ukoresheje imbugankoranyambaga bakugezeho ibicuruzwa byabo, aho waba uherereye hose yaba imboga cyangwa imbutu urugero karoti inyanya kokombure, mineke, n'ibindi waba ushaka byose.

Uburyo bwiza wakoresha kugira ngo ibicuruzwa bikugereho, uru ni urubuga wakwifashisha kugira ngo uhahire ibintu byawe wifashishije ikoranabuhanga bibe byakugeraho mu buryo bwihuse, aho waba uherereye hose.

Niba ufite igitekerezo cy'ukuntu washyira ibikorwa byawe by'ubucuruzi ku ikoranabuhanga nawe ukajya ucururizaho, hari ababihuguriwe baguha amahugurwa y'igihe gitoya nk'amezi atatu cyangwa atandatu ukaba usobanuriwe uburyo bw'ukuntu wajya nawe ucuruza ukoresheje ikoranabuhanga.